Itsinda rya'bakozi bicaye ahantu hamwe bari kungurana ibitekerezo, bafite amacupa arimo amazi imbere yabo umwe afashe ku ndangururamajwi abandi bafite mudasobwa imbere yabo.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abantu bake, batatu bicaye mu myanya isanzwe ndetse n'abandi batanu bicaye imbere, harimo abagore batatu n'abagabo babiri.

Itsinda ry'abaturage benshi bari mu nama bose bahagaze mu kibuga, hagati yabo hahagaze umuyobozi wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara, afashe indangururamajwi.

Abaturage bicaye mu kibuga cy'umupira, imbere yabo bahagaze umugore wambaye indorerwamo ufashe ikaye mu ntoki na terefone, afashe n'indangurura majwi arimo kubagezaho ikiganiro.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo itsinda ry'abantu benshi, baricaye barimo gukurikira umuntu urimo kubaha ikiganiro, hagati y'abo bantu bicaye hahagazemo umuyobozi ufashe indangururamajwi arimo guseka.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi imbere yabo hateye ameza ariho ibitambaro bisa umweru ndetse hateretse n'amacupa arimo amazi, bamwe bafite amatelefone imbere yabo arambitse ku meza n'amakayi.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abantu batandatu harimo umugore umwe, bamwe muri bo bambaye indorerwamo; hagati yabo hateyemo utumeza duto duteretseho indabo n'utundi dutebe dutoya turimo hagati, duteretseho ibyo kunywa.

Itsinda ry'urubyiruko bari hamwe, barimo gufata ifoto, bamwe muribo bari imbere barasutamye, muri abo bantu harimo umuntu umwe wambaye ikarita y'akazi, bose barishimye.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abayobozi batatu, umwe muri bo yambaye umwambaro w'abashinzwe umutekano, imbere yabo hari indangururamajwi ebyiri ndetse n'amacupa y'amazi biri ku meza asize irangi ry'umutuku.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo itsinda ry'abantu benshi, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa umweru ndetse hateretse amacupa y'amazi, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umutuku n'ikote ry'umukara ufashe indangururamajwi urimo kumurika.

Mu cyumba cy'inama harimo abayobozi benshi bicaye mu buryo bw'amatsinda, hagati yabo harimo ameza asa umukara, buri meza hateretseho amacupa, imbere yabo hariho n'amakari n'amakaramu ndetse bose bambaye amakarita y'akazi.

Mu cyumba cy'inama harimo umuyobozi uhagaze ku gatuti, afashe indangururamajwi, arimo arasoma inyandiko, iburyo bwiwe hicaye abayobozi babiri, umugore ndetse n'umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Mu cyumba cy'inama hicimo abagore batandatu umwe yambaye ikanzu abandi bambaye imikenyero, harimo batatu bambaye indorerwamo hari n'abandi batatu bafite amaterefone mu ntoki, hari n'umwe ufite ikayi yo kwandikamo.

Itsinda ry'abantu bateraniye mu cyumba cy'inama imbere yabo hateretse amacupa atandukanye bamwe harimo amazi bafite n'amakaye imbere yabo ndetse na za mudasobwa umwe muri bo arahagaze.

Mu cyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'abantu benshi cyane, abicaye ku ntebe z'imbere ni bane, imbere yabo hateye ameza ariho igitambaro gisa umuhondo, hateretseho amacupa atandatu.

Icyumba cy'inama kirimo abasore batanu, bambaye impuzankano y'udupira tw'ubururu tw'amaboko magufi, bose barimo kureba ahantu hamwe bisa nkaho imbere yabo hariho umuntu urimo kubaganiriza bamuteze amatwi.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe wambaye indorerwamo, iruhande rwabo hari mudasobwa imwe, imbere yabo hariho amakayi n'amakaramu ndetse n'amacupa arimo amazi atatu.

Itsinda ry'abantu bane bicaye mu cyumba kimwe, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, barimo baraganira imbere yabo hariho mudasobwa imwe y'umukara, umwe muri abo bantu bane arahagaze afashe indangururamajwi arimo kuvuga, undi na we arahagaze, inyuma y'umugabo wambaye umupira w'umukara n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo itsinda ry'abantu benshi, bose baricaye, bose bafite amacupa arimo amazi ateretse imbere yabo ku meza ndetse hariho n'indangururamajwi, hari n'abandi bafite mudasobwa imbere yabo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batanu, bane baricaye harimo abagore babiri n 'abagabo babiri, imbere yabo bahagaze umugore wambaye agapira k'umukara n'isaha ku kuboko gufashe indangururamajwi.

Itsinda ry'abayobozi batandatu baricaye, bose bafite amakaye n'amakaramu, harimo abayobozi babiri bambaye imyenda y'akazi, harimo uwambaye impuzankano ya polisi n'undi wambaye impuzankano y'ingabo.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi, bose baricaye bakikije ameza, hagati yabo hateretse amacupa arimo amazi , hanarambitse amakaye yo kwandikamo, mudasobwa ndetse n'ibikapu, bamwe muri bo bambaye indorerwamo.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abayobozi benshi, bamwe muri bo bambaye amakote asa imikara ndetse bambaye n'amakarita y'akazi, harimo umugore umwe wambaye ikanzu ndetse yambaye n'indorerwamo, imbere ye harambitse terefone ku meza kandi bose imbere yabo hari amacupa arimo amazi.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu benshi, bamwe baricaye hari n'abandi babiri bahagaze. Abo babiri bahagaze umwe afashe indangururamajwi yambaye ikote ry'umukara ndetse n'isaha y'umukara, ku ruhande hahagaze umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, indorerwamo ndetse n'ingofero ijya gusa ubururu.

Mu cyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'urubyiruko bambaye udupira tw'amaboko magufi dusa umukara impuzankano umwe muri bo arahagaze afashe indangururamajwi arimo kuvuga inyuma ye hahagaze umugabo urimo gufotora.

Icyumba cy'inama harimo abayobozi benshi, bose baricaye. Abicaye mu myanya y'imbere babiri bafite amakaye n'amakaramu, barimo kwandika, imbere yabo hari ameza ariho amaterefone n'amacupa arimo amazi.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo abayobozi benshi, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo amazi, bamwe muri bo bafashe amakaramu bari kwandika mu makaye yabo abandi bafite amatelefoni imbere yabo, banafite amakayi batarimo kwandikamo bisa nkaho bari gukurikira umuntu uri kubayobora mu nama.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari amakayi abandi bafite amatelefone n'amakaramu, bafite n'amacupa arimo amazi. Umugabo umwe arahagaze arimo kuvuga.

Abaturage bicaye mu cyumba cy'inama, abicaye imbere bambaye impuzankano y'udupira tw'umuhondo tw'amaboko magufi, inyuma hahagaze abandi bantu batatu bisa nkaho babuze imyanya yo kwicaramo.

Mu cyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'urubyiruko bambaye udupira tw'ubururu nk'impuzangano, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi, umwe muri bo arimo arazamura agatoki hejuru, ushaka gutanga igitekerezo.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo batatu bambaye amakoti y'imikara, umwe muri bo yambaye indorerwamo, hagati yabo hicaye umugore urimo kuvuga, imbere yabo bose hari indangururamajwi ndetse hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi, bose bafite amakaramu ndetse n'amakaye yo kwandikamo.

Itsinda ry'abayobozi bari mu cyumba k'inama imbere yabo hatetse amacupa arimo amazi bafite n'indangururamajwi buri muntu imbere ye.

Icyumba cy'inama harimo abantu bane, batatu bicaye n'undi umwe uhagaze; harimo ibyapa bibiri biriho ikirango cy'ibendera ry'igihugu, imbere yabo hamanitse televiziyo irimo ifoto y'abantu benshi.

Icyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'abayobozi batandukanye, bamwe bicaye mu buryo bw'amatsinda, abandi bicaye bakurikiye umuntu urimo kubagezaho ikiganiro, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ateretseho amacupa arimo amazi, ndetse na mudasobwa eshatu.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abagabo batanu. Babiri muri bo bambaye indorerwamo. Imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa eshatu, umwe muri bo arimo kureba ku ruhande.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu batanu, bose bafite amacupa arimo amazi imbere yabo ndetse n'amakaye yo kwandikamo, bamwe bafite n'amatelefone imbere yabo ari ku meza.

Itsinda ry'urubyiruko bicaye mu cyumba kimwe, inyuma yabo hahagaze abagabo bane, harimo uwambaye ingofero uhagaze ku ruhande, bose bari kureba ahantu hamwe; bisa nk'aho hari umuntu uri imbere yabo urimo kubaganiriza.

Mu cyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'abantu benshi, harimo umugabo wambaye agapira gasa ubururu, k'amaboko magufi, wambaye n'indorerwamo, ndetse n'undi muntu wambaye agapfukamunwa, gasa ubururu, bose baricaye, bisa nkaho bari gukurikira ikiganiro.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abantu batandatu, barimo kuganira, imbere yabo ku meza hasize irangi ry'umutuku hateretse amacupa y'amazi, buri wese afite indangururamajwi imbere ye.

Icyumba cy'inama giteyemo intebe, gifite n'ameza asize irangi ry'umutuku, hicayemo abagore n'abagabo bafite indangururamajwi imbere yabo, ndetse n'amacupa arimo amazi, barimo gukurikirana inama.

Mu icyumba cy'inama hicayemo abayobozi batandukanye, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa umweru, hateretse amacupa ndetse n'ikirahure. Bamwe bafite amatelefone imbere yabo, umwe muri bo afashe indangururamajwi arimo kuvuga.

Mu cyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'abantu benshi, hateyemo intebe zisa umutuku, harimo umusore umwe wambaye ishati isa umukara uhagaze bisa nk'aho arimo kubaza ikibazo, imbere ye hahagaze umuyobozi wambaye ikote ry'ubururu.

Abaturage bambaye impuzangano, udupira tw'ubururu turiho ikirango bateraniye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi bamwe bafite amatelefone imbere yabo ku meza, umuyobozi ari kubabaza ibibazo akoresheje intangururamajwi, we yambaye imyenda y'umukara iruhande rwe hicaye umugore wambaye imyenda itukura.

Mu cyumba cy'inama harimo itsinda ry'abantu benshi bicaye, bambaye impuzankano y'udupira tw'ubururu tw'amaboko magufi. Imbere yabo hahagaze umusore wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ufashe indangururamajwi.

Mu cyumba cy'inama harimo abayobozi batandukanye harimo n'umuyobozi ushinzwe umutekano, umwe muri bo afite mudasobwa imbere ye, bamwe bambaye indorerwamo, imbere yabo bose hateretse amacupa arimo amazi ku meza asize irangi ry'umuhondo.

Icyumba cy'inama harimo itsinda ry'abantu benshi bicaye barimo kuganira baseka, harimo babiri bambaye imyenda y'akazi, imbere y'abayobozi bose hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi, hari n'amakayi ndetse n'amakaramu byo kwandikamo n'amatelefone.

Itsinda ry'abaturage benshi, bahagaze mu kibuga, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufashe indangururamajwi, bamuteze amatwi.

Icyumba cy'inama harimo itsinda ry'abantu bambaye udupira tw'ubururu nk' impuzankano, imbere yabo hari abayobozi batatu. Ku meza yabo hariho amaterefone, indorerwamo n'ibitabo byo kwandikamo.

Itsinda ry'abayobozi bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, afashe indangururamajwi arimo kuvuga, imbere yabo hateretse icupa ririmo amazi.

Icyumba cy'inama kirimo itsinda ry'abayobozi bambaye udupfukamunwa dusa ubururu, bahagaze bakikije ameza bisa nkaho barimo gufata ifoto, batatu baricaye abandi barabakikije, ku meza hateretse udukombe n'isakoshi.

Mu cyumba cy'inama hicayemo itsinda ry'urubyiruko, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, bambaye udupira tw’ubururu nk'impuzangano, barimo gukurikira.

Mu cyumba cy'inama, harimo itsinda ry'abayobozi, harimo bane muri bo bambaye impuzankano y'udupira dusa ubururu tw'amaboko magufi, babiri muri bo bafashe amaterefone mu ntoki, harimo umugabo wambaye isaha y'umukara ndetse n'indorerwamo.

Itsinda ry'abantu benshi, bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa ndetse abandi bafite impapuro imbere yabo n'amakaramu yo kwandikisha, abenshi muri bo bambaye amakarita abaranga, asa ubururu.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu batandukanye, bicaye mu buryo bw'amatsinda, hagati yabo hagiye habamo ameza ariho ibitambaro bisa umukara. Kuri ayo meza hateretse amacupa y'amazi menshi, hariho n'amakayi n'amakaramu, hari n'umugabo uhagaze hagati yabo.

Icyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi, bicaye mu buryo bw'amatsinda, hagati yabo hateye ameza ariho ibitambaro bisa umukara, hateretseho amacupa arimo amazi n'agaseke kamwe karimo ibara ry'umweru ndetse na za mudasobwa.

Icyumba cy'inama kirimo itsinda ry'abantu benshi, inyuma hagaze abambaye impuzangano, y'udupira tw'umuhondo tw'amaboko magufi, imbere hicaye abandi bambaye impuzangano y'udupira tw'icyatsi tw'amoboko magufi ndetse n'umugore wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano.

Mu cyumba k'inama hateraniyemo itsinda ry'abayobozi benshi, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo amazi; birasa nkaho barimo gukurikirana umuyobozi w'inama.

Abaturage benshi bari mu nama bamwe baricaye abandi barahagaze, harimo abagore bakenyeye ibitenge n'abandi bambaye amapantaro. Imbere yabo hahagaze umugore wambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba cy'inama hicayemo abantu bicaye mu buryo bw'amatsinda, hagati yabo hateyemo ameza ariho ibitambaro bisa icyatsi, hateretse amacupa arimo amazi, umugabo umwe afite mudasobwa imbere ye.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abantu benshi, inyuma yabo hahagaze abantu batandatu bisa nkaho babuze aho kwicara, imbere hateye ameza ateretseho amacupa arimo amazi, hicaye abayobozi harimo ufashe ikaramu.

Icyumba cy'inama hateraniyemo abayobozi benshi, imbere ya bo ku meza hateretse amacupa arimo amazi hamwe na mudasobwa; umwe muri bo wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, afite urupapuro imbere ye ndetse n'ikaramu ari kwandika.

Icyumba cy'inama, giteraniyemo abayobozi batandukanye benshi kandi bose baricaye, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo amazi, ahandi hateretse ibikombe, bamwe muri bo bafite amakaye imbere yabo, abandi bafite amakaramu yo kwandikisha, abandi bambaye amakarita y'akazi.

Abaturage bari mu nama, bamwe baricaye abandi barahagaze, bari kumwe n'umuyobozi uhagaze imbere yabo, afashe indangururamajwi arimo kubagezaho ikiganiro.

Abaturage benshi bicaye hamwe bose barimo kureba abayobozi babarangaje imbere, harimo uwambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi by'akazi ndetse n'abandi bicaye, harimo ufite ikaramu ndetse n'ikayi arimo kwandika.

itsinda ry'abayobozi barindwi barimo kwifotoza batatu baricaye abandi bane barahagaze, kuri iryo tsinda harimo abakobwa babiri umwe yambaye ipantaro n'indorerwamo ku mpande hari ibirango bibiri kimwe gisa ubururu ikindi gisa icyatsi.

Icyumba cy'inama, kirimo itsinda ry'abayobozi benshi, bambaye amakarita abaranga, inyuma yabo hari ikirango cya banki, bigaragara ko basoje inama, barimo gufata ifoto y'urwibutso, imbere yabo hateye intebe ziriho ubusa ndetse n'ameza.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi batandukanye, harimo abambaye ingofero, abandi ntazo bambaye. Mu ntebe z'imbere hicaye abayobozi bane, harimo abagabo babiri bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano.

Icyumba k'inama giteraniyemo abantu benshi, baricaye abandi barahagaze, bisa nkaho babuze aho bicara, imbere hicaye abamama babiri, bombi bambaye indorerwamo, umwe yambaye ikanzu y'umukara, undi yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi.

Abantu bane baricaye, harimo abagore babiri n'abasore babiri. Umukobwa umwe yambaye ijipo y'umukara afashe indangururamajwi arimo kuvuga. Inyuma yabo hariho icyapa kigaragaza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu bicaye, imbere yabo hateye ameza asa umutuku ateretseho amazi, buri wese afite indangururamajwi imbere ye hariho n'abafite za mudasobwa imbere yabo.

Icyumba cy'inama hicayemo abayobozi batatu, abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ikote ry'umukara. Imbere yabo hari ameza asize irange ry'umutuku, ariho mudasobwa ebyiri ndetse n'indangururamajwi imbere yabo hateretse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Icyumba k'inama, hicayemo itsinda ry'bayobozi, harimo abagore babiri, imbere yabo hari ameza asize irangi ry'umutuku n'ikirahure, harambitseho amakaye n'amakaramu, bamwe muri bo bafite za mudasobwa imbere yabo, umugore umwe afite igikapu cy'umukara imbere ye.

Icyumba cy'inama, kirimo abantu batatu, harimo umugore umwe ufite mudasobwa isa umweru imbere ye, imbere yabo hari ameza, asize irange ry'umutuku, ateretseho amacupa arimo amazi ndetse n'umuti uri mu icupa, muri abo bagabo. harimo umwe wambaye umwenda w'akazi, wambarwa n'abashinzwe umutekano.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi cyane. Abenshi baricaye, batatu barahagaze. Muri abo batatu bahagaze harimo uwambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare, bisa nkaho ari gutanga igitekerezo, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ikarita imuranga. Imbere yabo hahagaze umugore.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu batatu bicaye, abagabo babiri n'umugore umwe, umwe muri abo bagabo afashe indangururamajwi arimo kuvuga. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'igitenge kirimo amabara atandukanye, hariho amacupa arimo amazi n'ikayi yo kwandikaho n'amaterefoni.

Icyumba cy'inama kirimo itsinda ry'abantu, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, ku nkuta zibakikije hamanitseho ibitambaro birimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu batanu, batatu muri bo bambaye amakarita abaranga, babiri bambaye indorerwamo, benshi muri bo barimo guseka, umwe yambaye ikote ry'umukara ndetse hari n'undi wambaye ishati y'umweru.

Icyumba cy'inama cyicayemo abayobozi batandukanye, imbere yabo hateye ameza asize irangi ry'umutuku n'umweru, ku ruhande hateretse amacupa arimo amazi, imbere yabo bamwe bafite amakaye yo kwandikamo n'amakaramu ndetse hari n'abafite mudasobwa.

Mu cyumba hicayemo abantu batandatu bisa nkaho bari kungurana ibitekerezo, umwe muri bo afite mudasobwa imbere ye, ku meza ari hagati yabo hateretse amacupa y'amazi, hari n'amakayi yo kwandikamo ndetse abandi bafite n'amakaramu yo kwandikisha mu ntoki.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo itsinda ry'abayobozi benshi, bicaye mu buryo bw'umuzenguruko bakikije ameza, hagati yabo ku meza hari indangururamajwi nyinshi, ndetse n'amacupa arimo amazi, hari n'abafite amakaye yo kwandikaho, ndetse n'amatelefone imbere yabo.

Abanyeshuri bari kwiga isomo ry'ikoranabuhanga. Imbere yabo hari mudasobwa zitandukanye, mwarimu wabo arimo kubafasha. Bose bambaye udupfukamunwa dusa umukara.

Ku ibaraza ry'inyubako zikorerwamo ubucuruzi, hahagaze umusore wambaye umupira w'amaboko maremare, ari wenyine.

Itsinda ry'abanyeshuri batandatu bari mu cyumba kimwe, baricaye imbere yabo hari ameza, bamwe muri bo bafite za mudasobwa, imbere yabo barimo barakurikira umuntu uri imbere yabo ibyo arimo kubabwira, wambaye agapira k'umweru n'ubururu.

Ku ibaraza ry'inzu ifite imiryango myinshi, hateye ameza ariho intebe zitandukanye, kuri ayo meza akikijwe n'abantu benshi bicaye mu buryo bw'amatsinda, bisa nk'aho barimo kuganira.

Urupapuro ruriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REBU, kigaragaza gahunda yo kwiga binyuze ku maradiyo, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.

Ku cyapa cyamamaza serivisi z'irembo hariho ifoto y'umusore, wambaye agapira k'ubururu gafite amaboko maremare ufashe terefone mu ntoki, arimo kwiyitunga urutoki.

Ku nkengero z'umuhanda, hari inzu y'ubucuruzi irimo imiryango myinshi, imwe isize irangi ry'icyatsi, indi isize irangi ry'ubururu, mu muryango umwe hicayemo umuntu wambaye ishati y'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'irembo hicayemo umuntu wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi yambaye indorerwamo n'isaha y'umukara ku kuboko afashe indangururamajwi imbere yiwe hateretse amacupa abiri arimo amazi harambitse na terefone y'umukara ndetse n'ikayi yo kwandikamo.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba kimwe, imbere yabo hari za mudasobwa enye, ndetse hateretse n'amacupa arimo amazi, bose bafite amatelefone asa, bisa nkaho bahuze cyane, bose bari kureba matelefone yabo.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa ziteretse ku meza, harimo abantu benshi bicaye barimo gukoresha izo mudasobwa, imbere yabo hari umuntu umwe uhagaze ndetse hari n'abandi babiri bahagaze ku ruhande.

Mu cyumba hicayemo abantu benshi, buri wese afite mudasobwa imbere ye kandi bose baricaye bisa nkaho barimo gukurikira umuntu uri imbere yabo.

Icyumba kirimo abantu babiri, umusore wambaye ikote ry'umukara, ingofero ndetse n'indorerwamo, imbere ye hari mudasobwa, umukobwa nawe afite mudasobwa imbere ye, yambaye ishati y'umweru.

Ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti birebire by'amoko atandukanye, hashinze ibiti byifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, hamanitseho insinga nyinshi.

Ku muhanda hari inzu zikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, ku muryango hamanitse imyenda igurishwa, hahagaze abantu batandukanye, hari abari kugenda, hari abahagaze, haparitse n'imodoka zitandukanye ariko nto, hari izisa umweru, hari izisa umukara, hari n'imodoka isa umutuku iri mu muhanda wa kaburimbo.

Mu muhanda w'abanyamaguru, harimo abagabo babiri bari gutambuka, hari n'umumotari uparitse ku mutaka wa MTN usa umuhondo, bisa nk'aho arimo kuvugana n'utanga serivise za MTN.

Igiti kirekire kimanitseho insinga z'amashanyarazi hariho urwego rw'icyuma ruriho umukobwa wambaye imyenda y'akazi n'ingofero ufashe kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto iriho umuntu umwe, ku nkengero z'umuhanda hari ibyuma birebire kimwe kimanitseho insinga z'amashanyarazi nyinshi, hanahagaze umugabo uhetse igikapu gisa umukara.

Ku nkengero z'umuhanda hari ibyuma birebire byifashishwa mu gutanga umuriro mu batuye muri ako gace, ku muhanda w'abanyamaguru hari umugabo umwe urimo gutambuka.

Igiti kirekire kiriho insinga nyinshi z'amashanyarazi ndetse n'utundi twuma twifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, gikikijwe n'ibiti bibiri kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso.

Ku nkengero z'umuhanda, hari umugabo wambaye umwenda w'akazi, ufashe umweyo arimo gukora amasuku mu muhanda, inyuma ye hari abantu benshi barimo gutambuka, hari n'umumotari udatwaye umugenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zitwara abagenzi inini n'intoya, inyuma yazo hari imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umutuku, abanyamaguru bari kwambuka, amamoto araparitse kugira ngo babanze bambuke, kuruhande hari ibiti, hari ibyuma birebire bafashe insinga z'amashanyarazi.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo hateyeho ibiti bya gereveriya n'ibindi biti by'amoko atandukanye, hashinze icyuma kirekire gifasheho insinga z'amashanyarazi zifasha abaturage kubona umuriro w'amashanyarazi bo muri ako gace, haruguru y'ibyo biti hari inzu iriho igipangu.

Ku nkengero z'umuhanda hubatse inzu ifite igipangu, hashinze igiti kirekire, kiriho insinga z'amashanyarazi nyinshi, zifashishwa mu kugaburira abo muri ako gace umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda haparitse moto ebyiri, hagati yazo harimo umusore wambaye ingofero y'ubururu, imbere ye hari umudamu wambaye ikanzu y'umukara urimo gutambuka, umwe muri abo bamotari yambaye agapira k'ubururu ahetse n'igikapu mu mugongo.

Imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati atukura, hashinze ibiti bibiri bimanitseho insinga nyinshi z'amashanyarazi zifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi.

Haruguru y'umuhanda hubatse inzu ifite igipangu ndetse n'amatara abiri, rimwe riri hepfo, irindi riri haruguru, hashinze igiti kirekire kimanitseho insinga z'amashanyarazi zifashishwa mu guha abatuye muri ako gace umuriro w'amashanyarazi.

Inyuma y'inzu, zifite igipangu n'amatara yo ku muhanda, hashinze ibiti bibiri, kimwe kigufi n'ikindi kirekire cyane; byombi bimanitseho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Ku muhanda hashinze ibyuma birebire bibiri, byombi bimanitseho insinga z'amashanyarazi nyinshi, hariho n'ibyapa biri mu mabara atandukanye ku ruhande hari ikindi giti giteyeho kirekire.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, hariho umuntu utwaye igare rya siporo, wambaye agapira gasa umukara, inyuma ye hari undi musore uhetse igikapu, wambaye ikote ndetse n'undi urimo gusunika igare ririho umuzigo.

Hagati y'amazu hashinzemo igiti kirekire kimanitseho insinga nyinshi, zifashishwa mu guha abatuye muri ako gace umuriro w'amashanyarazi; hateye n'ibiti byinshi ku ruhande.

Imbere y'inyubako ndende, hashinze igiti kirekire kimanitseho itara ryo ku muhanda, kinafasheho insinga z'amashanyarazi; imbere y'iyo nyubako, hateye ibiti bibiri.

Ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti byinshi, hariho umutaka wa MTN usa umuhondo n'imodoka nini itwara abagenzi isa umweru iparitse, hagati y'ibiti hashinze igiti kinini kirekire, kimanitseho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Hagati y'amazu hashinze icyuma kirekire kimanitseho insinga zifashishwa mu guha abatuye muri ako gace umuriro w'amashanyarazi, izo nzu birasa nkaho zishaje kuko n'ibipangu bimwe byarasenyutse.

Imbere y'ibitaro bya Masaka hari abantu benshi, hari abicaye mu ntebe z'aho bakirira abarwayi, abandi barahagaze, abandi bari mu muhanda barimo kugenda baganira bambaye n'udupfukamunwa.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo abaganga babiri, umwe ari kureba muri mudasobwa yambaye indorerwamo, undi aricaye ari kureba ibyo arimo gukora, bose bambaye imyenda y'akazi isa umweru, iruhande rwabo hateretse agapaniye ko gushyiramo imyanda.

Ku ibaraza ry'inzu ifite imiryango myinshi, hahagaze abantu ndetse haparitse na moto, hari umutaka wa MTN usa umuhondo. Imbere y'iryo baraza hateye ubusitani bwiza cyane, buteyemo n'ibiti birebire byifashishwa mu gutanga akayaga. Ku muhanda hari amatara menshi, iburyo n'ibumoso, yaka nimugoroba.

Umuhanda wa kaburimbo hateye ibyuma bibiri, kimwe kiriho icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi, imbere yabyo hateye ibiti bibiri bigufi.

Ku ivuriro hari abantu benshi, bamwe bafite ibikapu, abandi bafite amabase n'utujerekani, bisa nk'aho bamwe baje kwivuza, abandi baje kurwaza.

Ivuriro rifite ibaraza rinini, hateretseho icupa risa umutuku, ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iryo baraza rishinzeho ibyuma byinshi ku mpande, hagati muri iryo baraza, harimo akagare gatwarwaho abarwayi.

Mu nteko y'abaturage harimo umuntu uhagazemo hagati urimo kwiregura. Inteko y'abunzi yicaye hamwe harimo urimo kwandika ibirimo kuvugwa.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, afashe ikaramu mu ntoki yambaye n'isaha ku kuboko imbere ye hari ameza ateretseho amacupa abiri rimwe ririmo amazi irindi ririmo umutobe, imbere ye hari ikaye yo kwandikaho.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa ari mu macupa, hari umuyobozi umwe wicaye imbere yabo wambaye ikote ry'umukara.

Itsinda ry'abasore n'abagabo bambaye impuzankano. Udupfukamunwa dusa ubururu n'imipira y'amaboko magufi isa umuhondo, baricaye imbere yabo hari za mudasobwa, inyuma yabo hahagaze umuyobozi ushinzwe umutekano wambaye agapfukamunwa k'umukara, ari kumwe n'undi muyobozi wambaye ikote ry'umukara.

Mu rukiko hicayemo abantu batatu bambaye amakanzu y'umutuku ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hahagaze abagabo babiri bambaye amakanzu n'ingofero by'umukara, hariho n'ibara ry'umweru; bafashe ku ibendera bari kurahira.

Inzu ifite igipangu kirekire, kiriho umuryango uriho icyapa cyanditseho Gereza ya Nyanza, biri mu ibara ry'umweru bimenyesha umugenzi agace agezemo.

Imfungwa zihagaze imbere ya gereza zambaye impuzankan ifite ibara ry'umuhondo n'amakabutura n'amashati inyuma yabo hahagaze umuyobozi wa polisi wambaye ingofero.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'iroza yambikwa imfungwa, bicaye ku ntebe imbere, intebe z'inyuma hicayemo abagore n'abagabo, bamwe muri bo barimo kwandika.

Mu cyumba hicayemo abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bombi bambaye udupfukamunwa dusa ubururu imbere yabo hari mudasobwa ebyiri umugore arimo kureba muri mudasobwa.

Abaturage bicaye mu gacaca, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare idoze mu gitenge, imbere ye hateye ameza hicaye abayobozi batandukanye, bamwe bafite aho kwandika abandi ntaho bafite.

Itsinda ry'abantu benshi barahagaze, bambaye impuzankano y'amakanzu asa umukara ndetse n'umweru, bisa nk'aho barimo gufata ifoto y'urwibutso, bamwe muri bo bambaye indorerwamo.

Icyumba cy'inama kirimo itsinda ry'abantu bicaye, umwe muri bo w'umugabo arahagaze arimo kuvuga ijambo, imbere y'abo hateye andi meza ateretseho icupa ry'amazi n'intebe yicayeho umuntu umwe urimo kwandika ibiri kuvugwa.

Mu biro hicayemo abagore babiri bambaye amakoti y'umukara, imbere yabo hari mudasobwa, hahagaze abasore babiri bambaye impuzankano y'amashati y'umutuku y'amaboko magufi, iruhande rwabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara.

Itsinda ry'abagororwa benshi bahagaze mu kibuga bose bambaye impuzankano y'imyenda isa umuhondo bamanitse ikiganza cy'iburyo hejuru, bamwe muri bo bambaye amasaha ku kuboko.

Imbere y'inyubako ndende ikorerwamo ibijyanye n'ubwishingizi haparitse imodoka ya polisi isa umukara irimo n'amabara y'umweru itarimo abantu.

Inzu ifite imiryango myinshi irimo imbere, mu gipangu haparitsemo imodoka nto nyinshi zitandukanye, zimwe zisa umukara izindi zisa umweru.

Amakarito ateretse ahantu hamwe agerekeranye. Iruhande hari icupa risa umutuku ryabugenewe ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Rifite n'agahombo gasa umukara.

Ku rukuta rw'inzu, hamanitse amacupa abiri yabugenewe afite ibara ry'umutuku. Yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, hamanitseho n'impombo zifite ibara ry'umukara.

Ku rukuta rw'inzu hamanitseho icupa ryabugenewe rifite ibara ry'umutuku, ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, hafasheho n'impombo zisa umukara zifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Abanyeshuri bambaye impuzangano y'amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, bicaye mu cyumba, imbere yabo hahagaze umuntu urimo kubigisha, uko bakoresha icupa ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abashinzwe umutekano wo mu muhanda, bakumiriye abatwaye amamoto ndetse n'abatwaye imodoka nto n'izitwara abagenzi, abanyamaguru barimo barambuka.

Ku muhanda haparitse imodoka nto itukura, mu imbere hicayemo umugabo wambaye ishati ngufi ndetse n'isaha y'umukara ku kuboko, umupolisi yamuhagaritse barimo baravugana.

Ku rukuta rw'inzu hamanitse icupa ryabugenewe risa umutuku, iryo cupa ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iruhande rwaryo hateretse agapaniye kabugenewe kabikwamo imyanda.

Mu muhanda harimo abapolisi bane, ku ruhande hari umunyonzi umwe, mu ruhande rwo hepfo hateyeho imitaka ya MTN ibiri n'umutaka umwe wa Eyateri, inyuma yayo hari imodoka nini itwara imizigo, isa icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri nto, imwe isa umweru indi isa umukara; hahagaze umupolisi urimo guhagarika ibinyabiziga.

Imbere y'inyubako ndende isize irangi ry'umweru, hari imodoka eshatu zisa umukara ziri mu ubwoko bw'imodoka ntoya, imbere hateye ibiti birebire bibiri.

Ku rukuta rw'inzu hamanitse icupa ryabugenewe risa umutuku, ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iruhande rwaryo hateretse agapaniye kifashishwa mu kubika imyanda, gasa umukara.

Iyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bateraniyemo bamwe muri bo bambaye indorerwamo, harimo intebe zisize irangi ry'ubururu, abantu bari muri icyo cyumba bigaragara ko barimo kuganira.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu benshi, umugabo umwe wambaye umwenda usa umukara, aricaye, imbere ye hari ameza, ndetse hahagaze abagabo n'abagore bafashe ku mabendera, bamanitse ukuboko, bisa nk'aho barimo kurahira.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi bari mu gikorwa cyo kwamamaza, bambaye imyenda igizwe n'amabara ari ku kirango cya FPR, bose bamanitse udupapuro hejuru twanditseho FPR.

Icyumba cy'inama, cyicayemo itsinda ry'abantu benshi, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, hagati harimo akayira ko kunyuramo, imbere hicaye irindi tsinda ry'abayobozi.

Abaturage benshi cyane bari mu gikorwa cyo kwamamaza, harimo n'abapolisi benshi bambaye imyenda y'akazi, inyuma hari ibiti byinshi bishinzeho, ibitambaro biriho ikirango cya Efuperi.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abayobozi benshi batandukanye, imbere yabo hateretse amacupa ndetse buri wese afite indangururamajwi imbere ye, bose bakurikiye umuntu uri imbere yabo.

Abayobozi batandukanye bari mu gikorwa cyo kurahira, bose bamanitse ukuboko kw'iburyo, na ho ukuboko kwabo kw' ibumoso gufashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ku muhanda w'igitaka hari urujya n'uruza rw'abantu harimo abantu 2 bicaye ku ntebe zi'icmweru n'abandi 2 bahagaze imbere y'intebe 1 amanitse amaboko hejuru imbere ye hari indangururamajwi inyuma y'abantu bicaye haparitse imodoka arimo imodokasa umukara.

Abayobozi babiri bahagaze ku ibaraza ry'inzu barimo kuganira, umwe yambaye imyenda ya gisirikare, undi yambaye ikote risanzwe, bigaragara ko bose bishimye.

Abantu benshi cyane bari mu gikorwa cyo kwamamaza. Bose barahagaze hagati yabo hashinze ibiti byinshi biriho amabendera ya FPR. Abenshi bambaye ingofero ziriho ikirango cya FPR ndetse n'udupira.

Mu kibuga hari itsinda ry'abantu batandatu, babiri baricaye imbere yabo hateye ameza asa umutuku, ku ruhande hari intebe ebyiri zisa icyatsi ziticayeho abantu. Imbere yabo hari abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye ikoti ry'umukara, imbere ye hari indangururamajwi arimo kuvuga.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza, arimo gusuhuza abaturage, inyuma ye hari abapolisi batandukanye bamugaragiye, inyuma yabo hari amabendera ya FPR.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu benshi bicaye, imbere y'abo hari za mudasobwa n'amacupa arimo amazi ndetse n'indangururamajwi, birasa nk'aho abenshi muribo barimo kwandika, abandi bari kureba muri mudasobwa.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka imwe yo mu bwoko bw'imodoka ntoya, isize irange ry'umweru isa nk'aho nta muntu uyirimo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri n'imodoka ngufi ndetse n'izitwara abagenzi, harimo na moto itwara imizigo itwikirijeho ihema risa umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, uteyeho ibiti byinshi iburyo n'ibumoso. Harimo ibinyabiziga nka moto itwaye abagenzi, imodoka ebyiri z'umukara n'indi modoka isa umweru.

Mu muhanda w'igitaka haparitse imodoka ebyiri zitwara abagenzi, ku modoka imwe hariho ifoto y'umuntu wambaye ipantaro, amanitse amaboko hejuru. Hagati y'izo modoka hari kunyuramo umusore wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka eshatu, imwe irimo umuhungu wambaye agapira k'amaboko magufi gasa icyatsi, ku nkengero z'umuhanda, hashinze ibyuma birebire biriho amatara yo ku kumuhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini isa umweru itwara amazi, inyuma hasize irangi ry'ubururu, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti birebire by'amoko atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri, imwe itwaye umugenzi, indi nta mugenzi itwaye, hariho n'imodoka isa umweru itwara abagenzi, ku ruhande hateye ibiti birebire.

Mu muhanda wa kaburimbo haparitse imodoka nto, iruhande rwayo hahagaze abagabo babiri, umwe afite agafuka mu ntoki, undi afite ikinyabiziga gifite ipine rimwe, cyifashishwa mu gutwara imizigo, yambaye n'umwenda wambarwa n'abantu batwara imizigo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara imizigo, inyuma aho batwara imizigo harimo umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'ingofero, iburyo bw'umuhanda hari umugore uri gutambuka ku muhanda w'abanyamaguru ahetse agakapu, ibumoso bw'umuhanda hari moto itwaye umugenzi ufashe ipine mu ntoki.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara imizigo, irimo kwambuka umuhanda, imbere yayo hari ibindi binyabiziga bitandukanye harimo imodoka nto ndetse n'amamoto. Ku nkengero z'uwo muhanda hari ibyuma birebire bisize irangi ry'umweru birimo amatara yaka nimugoroba ndetse hateye n'ibiti bigufi birumbaraje.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo ufite ibara ry'umutuku naho ku ruhande ahagenda abanyamaguru hari abagenzi babiri.

Imodoka nini itwara abagenzi iri mu ubwoko bwa ritiko ihagaze ku muhanda, imbere yayo hahagaze abagenzi, iruhande haparitse imifuka myinshi irimo imizigo.

Mu muhanda harimo imodoka eshatu ebyiri zisa umweru indi isa icyatsi kibisi, umuhanda w'abanyamaguru hariho abagenzi barimo gutambuka harimo n'abana.

Mu muhanda w'igitaka harimo imodoka nyinshi zo mu bwoko bwa sitela zisa umweru, harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi n'undi muntu wikoreye umuzigo, wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara imizigo isize irangi ry'umutuku, iruhande hari kunyura igare ririho umuntu umwe ndetse n'undi munyamaguru urimo kwambuka ku muhanda w'abanyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nto isa umweru, imbere yayo hari moto itwaye umugore, hari n'igare ryicayeho umusore wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, ku ruhande hateye ibiti, hari kunyura n'abagenzi bari kwambuka n'amaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nto ndetse n'izindi modoka zitwara abagenzi hamwe na moto itwara imizigo, ku ruhande haparitse izindi modoka hariho n'inyubako ndende itaruzura.

Aho imihanda ya kaburimbo ihurira hari ibinyabiziga bitandukanye harimo amamoto atwaye abagenzi n'imodoka nto, harimo izisa umukara n'izisa umweru, hari n'imodoka nini itwara abagenzi iri mu wundi muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire, harimo imodoka nini itwara imizigo, ifite irangi ry'umweru, inyuma hariho ihema ritwikiriye imizigo. Mo imbere hicayemo utwaye iyo modoka.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamoto, imwe itwaye umugenzi indi nta mugenzi itwaye, inyuma yazo hari imodoka nto isa umutuku.

Mu muhanda harimo imodoka nini isa umweru itwara imizigo, itwikiriyeho ihema risa umweru. Irimo kwambuka ijya mu muhanda wa kaburimbo, iva mu muhanda w'abanyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri, ziri kugenda n'izindi ziparitse ku ruhande. Imbere y'inzu ndende iziri mu muhanda, imwe isa umutuku, indi isa ubururu, zombi zitwara imizigo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga byinshi, harimo amamoto, amwe muri ayo atwaye abagenzi n'imodoka nyinshi zisa umweru, hari n'imodoka nto itwara imizigo ihambiriyeho imbaho hejuru.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka nini itwara imizigo, iriho irangi risa ubururu n'irisa umutuku, ku ruhande hari moto ebyiri zitwaye abagenzi ndetse n'izindi modoka nto harimo n'itwara imizigo. Ku nkengero hari abanyamaguru, harimo uwambaye ipantaro isa umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara imizigo isize irange ry'umweru, inyuma aho batwara imizigo hatwikijeho ihema ry'umukara, ku ruhande rw'iburyo hari umunyamaguru urimo gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibiti birebire ku ruhande, hariho n'icyuma gishinze kiriho itara, harimo imodoka itwara abagenzi ndetse n'umuntu uri kugenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara imizigo isa umutuku, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti by'amoko atandukanye birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, imwe muri izo modoka itwara imizigo hariho umuntu wambaye ipantaro y'ubururu ku ruhande rw'iburyo, iruhande rw'ibumoso hariho umunyonzi utwaye umugenzi ku igare.

Imbere y’inzu y’ubucuruzi haparitse imodoka itwara imizigo isa umweru, hariho abasore barimo kuzirikaho ibyuma hejuru bifashishije imigozi.

Ku muhanda haparitse imodoka nyinshi, higanjemo imodoka zitwara imizigo, ebyiri zisa umweru, imwe itwikiriye ihema risa ubururu, imbere yazo hari abantu barimo gutambuka, harimo ukenyeye igitenge.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri, imwe itwara abagenzi isa umweru izwi nka takisi, harimo n'indi modoka isa ubururu itwara imizigo ndetse harimo n'abanyamaguru barimo gutambuka, harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'umugore wambaye ibitenge bisa icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto idatwaye umugenzi n'umugore uri kugenda n'amaguru ndetse n'indi modoka iparitse imbere yayo bahagaze umusore, inyuma hari undi musore wambaye inkweto zisa umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo imodoka nini itwara imizigo isa umutuku hejuru hatwikirijeho ihema risumweru, inyuma yayo hari moto nyinshi harimo n'izitwaye abagenzi.

Ku muhanda haparitse imodoka, hagati y'izo modoka harimo imitaka ibiri ya Airtel, umutaka umwe wicayemo umuntu wambaye ijiri y'umuhondo ya MTN.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara imizigo, imbere yayo hariho igare ririho umuzigo ku ruhande haparitse izindi modoka zitandukanye, zisa umweru, hashinzeho n'igiti kimanitseho insinga z'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara imizigo, isize irangi ry'ubururu ku gice cyo hasi, harimo n'umuntu urimo kugenda wambaye ipantaro y'umukara, ku muhanda w'abanyamaguru haparitse imodoka itwara abagenzi, hahagaze abantu batatu umwe yambaye ingofero isa ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwaye imizigo, harimo n'umushoferi uyitwaye, iruhande rw'iburyo hari umugore uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, imbere y'iyo modoka hari moto yicayeho abantu babiri, inyuma naho hari indi moto iriho abantu babiri.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo hari ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ebyiri nini zitwara imizigo, imwe isa umweruru, indi isa ubururu imanitseho ibyuma hejuru, iruhande haparitse igare ritariho umuntu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara abagenzi ndetse na moto isize irange ry'ubururu yifashishwa mu gutwara imizigo ndetse hari n'imodoka iri imbere yazo zombi, isize irange ry'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto nyinshi, harimo izitwaye abagenzi n'izidatwaye abagenzi, inyuma yazo hari moto itwara imizigo isa ubururu, ku ruhande haparitse izindi modoka, imbere y'inyubako ndende.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Ritco, inyuma yayo hari ibindi binyabiziga. Harimo amamoto atwaye abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti birebire by'amoko atandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri. Harimo imodoka ntoya isize irangi ry'umweru, n'imodoka nini itwara imizigo, isize irangi ry'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto imwe yicayeho umuntu umwe wambaye inkweto zifunze zisa umweru. Ku nkengero z'umuhanda hari ibyuma birebire bisize irangi ry'umweru, bimanitsemo amatara yo ku muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri zitwara imizigo imwe isa umweru n'indi isa ubururu. Ku muhanda w'abanyamaguru harimo abantu barimo kugenda, harimo umusore wambaye agapira k'ubururu gafite amaboko magufi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwaye imizigo itwikijeho ihema ry'ubururu hejuru, imbere yayo hariho umuntu utwaye moto ariko nta mugenzi uriho.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara abagenzi izwi nka Stella, isize irange ry'umweru, ku muhanda w'abanyamaguru hari umusore umwe uri kwambuka, iburyo bw'umuhanda hari iteme riri hejuru y'umugende.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki ifite ibara ry'ubururu idatwara abagenzi ahubwo itwara imizigo hejuru hasakajeho ihema rifite ibara ry'umweru imbere hariho umumotari uyitwaye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru n'icyatsi inyuma, harimo n'umuntu utwaye igare rya siporo wambaye ingofero y'ubururu, uruhande rw'iburyo hari umuyamaguru urimo kwambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka ebyiri imwe isa umukara n'indi si umwe, inyuma hicayemo umusore wambaye ishati idoze mu gitenge. Ku mpande hari amamoto abiri yombi atwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti bitandukanye, iburyo n'ibumoso, harimo imodoka nto ebyiri, ndetse n'amamoto ane atwaye abagenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nto zirimo gutambuka ndetse n'abatwaye amagare babiri, umwe utwaye igare, afiteho umuzigo ndetse ahetse n'igikapu mu mugongo cy'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto itwaye umugenzi na moto itwara imizigo isa ubururu n'indi modoka nto iparitse imbere y'umuryango n'abandi bantu babiri bari imbere y'umuryango.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga byinshi harimo imodoka nini itwara imizigo itwikirijeho ihema risa umukara imbere yayo hari amamoto ndetse n'amagare n'abandi bantu barimo kugenda n'amaguru.

Mu muhanda harimo abantu benshi, harimo abarimo kugenda n'amaguru ku nkengero z'umuhanda ndetse n'abatwaye amamoto, umwe mu bamotari aparitse ku ruhande arimo kuvugana n'umusore wambaye agapira k'ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nto yifashishwa mu kwigisha abantu gutwara ibinyabiziga, harimo umuntu umwe wambaye agapira k'amakoboko magufi ndetse n'ingofero.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, imwe ngufi isa umweru ndetse n'indi itwara imizigo na yo isa umweru, irimo umushoferi wambaye agapira k'umutuku, mu muhanda w'abanyamaguru hari umugenzi umwe urimo kwambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka nini, isa umweru, itwara imizigo, inyuma harimo ipine ry'imodoka, ku ruhande haparitse izindi modoka harimo izitwara abagenzi zisa umweru ziparitse imbere y'inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi, bicanye amatara y'imbere, hariho n'icyuma kirekire kiriho amatara yaka. Hari n'umunyamaguru urimo kwambuka, wikoreye umuzigo.

Ku muhanda aho bigira gutwara imodoka, haparitse imodoka eshatu nto, zisa umutuku, inyuma hari uruzitiro ruteyeho ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo amamoto ariho abayatwara, harimo n'imodoka imwe nto ifite ibara ry'umweru itwaye imizigo inyuma.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri nini zitwara imizigo, imwe isize irange risa ubururu, imbere yayo hari indi isize irange risa umweru hatwikirijeho ihema risa ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara imizigo, hejuru hasakajeho ishashi y'umweru. Mu ruhande rw'iburyo hateye ibiti by'amoko atandukanye. Ibumoso hariho iteme riri hejuru y'umugende.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara imizigo isa umweru, ku nkengero z'umuhanda hari abanyamaguru babiri, umwe iburyo undi ibumoso, umwe yambaye ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'umukara.

Ku muhanda aho abantu bategera hicayemo abantu benshi, hari umugabo uhagaze ku nkingi y'inzu urimo kuvugira kuri terefone yambaye ikote ry'ubururu.

Mu muhanda harimo abagenzi benshi bose bari kugenda n'amaguru bamwe bamanuka abandi bazamuka mo hagati, hari ahantu hicaye abantu bake harimo uwambaye imyenda y'umukara.

Ku nkengero z'umuhanda hari abantu benshi bicaye ndetse n'abandi babiri barimo gutambuka, bose bambaye udupfukamunwa abenshi bambaye udusa umukara, ku ruhande hateye ibiti birebire.

Mu muhanda harimo abagenzi benshi bari kugenda n'amaguru, harimo n'umusore utwaye igare, ku ruhande hari akazu kamanitseho imyenda icuruzwa, harimo umupira w'imbeho usa ubururu n'umweru, hari n'abandi bagenzi bicaye ku ruhande.

Ku nkengero z'ikibuga bakiniramo umupira, hari abantu benshi bambaye imyenda y'akazi isa icyatsi ndetse n'ingofero z'icyatsi, harimo n'abandi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupira tw'icyatsi.

Mu cyumba cy'inama hateyemo intebe nyinshi z'ibyuma zisize irangi ry'icyatsi, iburyo n'ibumoso hagati harimo umuhanda wo kunyuramo, inyuma harimo abantu batatu bahahagaze.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibiti birebire by'amoko atandukanye, haparitse igare rya siporo kandi hashinze ibyuma bibiri, bimanitseho ibyapa biyobora abagenzi, kimwe kiriho ifoto y'umugore n'umwana barimo kwambuka umuhanda.

Icyapa cyo ku muhanda kiriho ishusho ya mpande eshatu iri mu ibara ry'umutuku. Mo imbere mw'icyo gishushanyo, harimo abantu babiri bisa nkaho bari kwambuka bafashe ibitabo mu ntoki.

Icyapa cyo ku muhanda kiri ibara risa ubururu, harimo ifoto y'imodoka nini itwara abagenzi, ishushanyije mu ibara ry'umweru, hejuru hari inyuguti ya pa, na yo iri mu ibara ry'umweru.

Iruhande rw'inzu itangirwamo serivisi z'irembo ndetse no gufotoza impapuro zitandukanye hariho ibiti by'ibyuma bibiri biriho ibyapa, kimwe kiriho icyapa kiyobora abagenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto nyinshi zimwe zitwaye abagenzi n'izindi zidatwaye abagenzi, ku muhanda w'abanyamaguru hahagaze abagabo batatu, umwe yambaye imyenda y'imikara undi ahetse igikapu.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ibara ry'umutuku, kirimo ifoto y'umuntu urimo kwambuka, kimenyesha abanyamaguru ko ari igihe cyo kwambuka umuhanda.

Icyapa cyo ku muhanda kimenyesha abatwaye amagare ko batemerewe gutambuka, harimo uruziga rushushanyijemo igare, hakaba n'andi magambo ari mu ibara ry'umutuku abamenyeshako hatizewe.

Ku muhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye harimo izitwara abagenzi n'izindi modoka nto ndetse na moto, hashinze icyuma kirekire kiriho ibirango bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi n'umutuku.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, hari abana babiri bambaye imipira isa ubururu, umwe ahetse igikapu arimo kugenda, iruhande rwabo hateye ibyuma bibiri bimanitseho ibyapa biyobora abagenzi, kimwe kiriho ifoto y'umugore n'umwana barimo kwambuka umuhanda, ikindi kiriho ikimenyetso cy'umusaraba.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditsemo amagambo yandikishije ibara ry'umukara, kiburira abatwaye ibinyabiziga kugabanya umuvuduko.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto eshatu ebyiri zitwaye abagenzi ku muhanda w'abanyamaguru hari abanyamaguru babiri barimo kwambuka.

Abanyeshuri bari mu karuhuko bambaye impuzankano y'udupira tw'umuhondo iruhande hari umwana wambaye agapira k'umukara arimo kuganira na mugenzi we abandi batanu nabo barimo kuganira.

Mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inyubako zifite ibipangu biriho amatara yo ku muhanda, harimo abantu babiri barimo kugenda n'amaguru, umwe yambaye umupira usa umuhondo.

Inyubako ndende ifite uruzitiro ruringaniye, ruteyemo n'ibiti birebire, ifite agaseke gashushanyije hejuru kumpera yayo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga byinshi harimo; nk'amagare, imodoka nto ndetse harimo n'abagenzi barimo kwambukiranya umuhanda, ku muhanda w'abanyamaguru naho hari abagenzi bamanuka, abandi bazamuka iburyo ndetse n'ibumoso, hari n'imitaka ya MTN ndetse haparitse n'imodoka z'amabara atandukanye.

Umuhanda w'igitaka urimo abagenzi barimo kugenda n'amaguru, imbere y'inzu y'ubucuruzi haparitse amamoto abiri n'imodoka imwe, inyuma hari umutaka wa MTN.

Mu muhanda haparitse imodoka eshatu ntoya, ebyiri zisa umukara n'indi isa umutuku, inyuma yazo hari abasore babiri bombi bahetse ibikapu mu mugongo, umwe yambaye imyenda y'umweru undi yambaye ipantaro n'inkweto bise umukara, ku ruhande hari kunyura abandi bagenzi batatu bahetse ibikapu.

Inzu ifite uruzitiro rusize irangi ry'umukara hariho n'itara. N'imbere mu gipangu hateyemo indabyo zitandukanye ndetse n'ibiti birebire bizana akayaga

Mu muhanda w'igitaka harimo moto ndetse n'imodoka isa umweru. Ku ruhande hari kunyura umuntu uhetse umwana witwikiriye n'umutaka, haparitse n'imodoka ebyiri.

Imbere y'inyubako ndende hari umuhanda wa kaburimbo urimo amamoto atwaye abagenzi ndetse imbere y'izo nyubako haparitse ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka nto.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo ibinyabiziga byinshi nka moto zitwaye abagenzi, imodoka nto zisa umweru n'izisa umukara ndetse n'imodoka itwara abagenzi, ku ruhande hari ibiti birebire birimo amatara yo ku muhanda.

Umuhanda ukikijwe n'inzu z'ubucuruzi ndetse n'inzu zitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'amamoto aparitse, imodoka zitwara abagenzi ndetse n'imodoka nto harimo abantu, harimo abambaye udupira dusa umutuku n'abandi bambaye ingofero.

Imbere y'inzu y'ubucuruzi haparitse imodoka nto, ku miryango ebyiri, hari ibicuruzwa bitandukanye nk'imyenda y'amapantaro, amajipo, udupira tw'amaboko magufi, ishati y'amaboko maremare, imyenda y'abana ndetse hamanitse n'ibikapu by'amoko atandukanye.

Inzu nini yubatse ku muhanda wa kaburimbo, ifite igipangu kinini, mu imbere hateyemo ibiti bitari birebire cyane bitanga akayaga, kuri iyo nyubako nta muntu numwe uhari.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto enye, eshatu zitwaye abagenzi, indi imwe nta mugenzi uriho, imwe iri kuzamuka, ebyiri ziri kumanuka n'indi iri kuza mu muhanda uri iburyo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka nto zitwara abagenzi ndetse n'amamoto acanye amatara y'imbere ku mpande hari ibyuma birebire biriho amatara yo ku muhanda arimo kwaka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka itwara imizigo isa umweru ndetse n'imodoka nto isa umweru, hari na moto iriho abantu babiri, ku ruhande rw'iburyo hateye intebe yicaraho abantu bategereje imodoka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto itwaye umugenzi uhetse igikapu, ku ruhande hari kunyura umuntu uri ku igare, imbere ye hari imodoka ebyiri imwe nini itwara imizigo.

Aho imihanda ya kaburimbo ihuriye, hateye ibiti birumbaje byinshi. Hari n'amatara ari mu byuma birebire bishinze ku muhanda, yaka mu gihe cya ni mugoroba.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nto z'umukara ndetse na moto itwaye umugenzi umuhanda wa'abanyamaguru hari abantu barimo gutambuka iburyo n'ibumoso bw'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka nto imwe na moto ebyiri, ku ruhande hateye ibiti by'amoko atandukanye; iburyo bw'umuhanda hari ibyuma birebire birimo amatara yo ku muhanda yaka nijoro.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamoto amwe atwaye abagenzi, andi adatwaye abagenzi harimo n'imodoka zitwara imizigo ebyiri.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nto isa umweru, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti by'amoko atandukanye, birumbaje hari n'icyuma kirekire kiriho ibara ry'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini zitwara imizigo, harimo ebyiri zisa umweru ndetse na moto isa ubururu itwara imizigo, harimo n'imodoka nto isa umukara ndetse n'umunyamaguru urimo gutambuka, n'amamoto atwaye abagenzi. Ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ndetse n'imodoka, ku nkengero zawo hubatse akazu gasa ubururu kicaramo abantu bategereje imodoka, inyuma yako hateye ibiti birebire by'ubwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto idatwaye umugenzi n'imodoka nto ndetse n'igare ririho umuntu umwe, ku muhanda w'abanyamaguru, hari umusore wambaye ikote ry'umukara, urimo gutambuka ndetse n'undi uri ku igare riparitse.

Aho imihanda ya kaburimbo ihurira, hari ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto itwaye abagenzi, imodoka itwara imizigo ndetse n'imodoka nto isa umutuku, ku muhanda w'abanyamaguru hari abantu benshi bamwe bamanuka abandi bazamuka, harimo n'umugore wambaye ikanzu.

Umuhanda w'ubutaka urimo imodoka n'ubukara iparitse iruhande hariho umugende unyuramo amazi hariho n'itembe ryambukiranya rijya ku gipangu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ama moto menshi, ku ruhande hashinze ibyuma birebire biriho amatara yo kumuhanda yaka ni mugoroba, hateye n'ibindi biti ku ruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nto isa umukara, ku mpande hashinze ibiti birebire bisa umweru birimo amatara yo ku muhanda ndetse hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto ihagaze, umunyamaguru arimo kwambuka wambaye imyenda y'imikara, ku muhanda w'abanyamaguru hariho umwana w'umukobwa wambaye umwambaro w'ishuri urimo gutambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka ebyiri, imwe isa umukara, n'indi isa umweru, harimo na moto ebyiri, zombi zitwaye abagenzi, umwe yambaye ipantaro y'umukara.

Ku muhanda wa kaburimbo hateye ibiti byinshi. Hashinze n'ibiti by'ibyuma birebire, bimanitseho amatara yo ku muhanda yaka nimugoroba. Ku nkengero zawo hari kunyura abanyamaguru, bamwe bazamuka abandi bamanuka.

Aho imihanda ya kaburimbo ihurira hari imodoka ebyiri zicanye amatara, imwe nto icanye amatara y'imbere, inyuma yayo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu, inyuma yayo hari indi nini itwara abagenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitatu, harimo imodoka nto isa umukara, hakabamo umuntu utwaye igare, imbere yabo hari undi muntu utwaye moto ariko nta bagenzi atwaye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka isa umweru ndetse n'umuntu utwaye moto, ku muhanda w'abanyamaguru hari umuntu wambaye agapira k'umweru urimo gutambuka, ku ruhande hateye ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara imizigo isize irangi ry'umweru, hejuru hatwikirijeho ihema risa ubururu, inyuma yayo hari moto ebyiri ndetse n'igare ritwaye umugenzi, umuhanda w'abanyamaguru haparitse indi moto iriho umuntu umwe.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nto ndetse n'imodoka itwara imizigo isa umweru, imbere yazo hari moto itwaye umugenzi, iruhande hari icyuma kirekire kiriho ifoto y'umuntu uri kwambuka umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga byiganjemo amamoto atwaye abagenzi n'imodoka nto zisa umukara zirimo kwambuka, umuhanda w'abanyamaguru hahagaze abagabo, umwe yambaye agapira k'umweru, undi yambaye umupira w'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka igemura inyama isa umweru; hakabamo umuntu utwaye igare rya siporo ndetse n'andi mamodoka ari guturuka mu ruhande rwo hepfo.

Mu masaha ya nijoro, ku muhanda wa kaburimbo, amatara yo ku mIhanda, ari mu biti birebire by'ibyuma bishinze ku muhanda, aracanye; harimo imodoka imwe mu muhanda.